Imeza hamwe n'umuntu wambaye umwenda w'umweru, ufite bike mukiganza ndetse n'undi wambaye ingofero y'umweru mu mutwe.

Ibyatsi, urutoki ndetse n'amabido y'umuhondo, itiyo iri kuvamo amazi hamwe n'umwana wambaye umupira w'umuhondo.

Imeza, mudasobwa, umuntu wambaye umwenda w'umukara, umwana hamwe n'umuntu wambaye agapfukamunwa n'umwenda w'ubururu.

Imeza, intebe umuntu wambaye igitambaro mu mutwe, uteruye umwana ndetse n'undi muntu wambaye umwenda w'umweru.

Ahantu hari abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bahagaze begeranye, barimo barifotoza, imbere yabo harunze amabuye.

Abantu hateraniye abantu benshi, barimo abagore n'abagabo, bari gufata ifoto y'urwibutso, nyuma yo gukora igikorwa cyari cyabahuje.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi abarwayi baryamishwaho barembye ndetse n'imashini zibafasha kugira ngo bitabweho.

Ahantu hari itiyo iri guturukamo amazi, hamwe n'abana bahagaze muri bo harimo uwambaye umwenda w'ubururu.

Ahantu hateraniye abantu benshi, barimo abagore n'abagabo, bari gufata ifoto y'urwibutso, nyuma yo gusoza igikorwa cyari cyabahuje.

Ibiti, tente irimo ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo n'ibara ry'icyatsi. Umuntu uhagaze wambaye itaburiya y'umweru ufite mikoro mu kiganza ndetse na ajenda.

Imeza, icupa ry'amazi, abantu bicaye harimo wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, intebe ndetse n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ritukura.

Ahantu hari abantu benshi barimo umugore wicaye ufite umwana ndetse n'umugabo wicaye afashe akaboko k'umwana.

Ahantu hari abantu, muri bo harimo umwana wicaye, ndetse n'undi muntu wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umuhondo, n'umupira w'ubururu.

Ahantu hari ibiti ndetse n'umuntu wambaye ishati y'umuhondo n'ijipo ya shokora, urimo arakaraba intoki hamwe n'akabase k'icyuma.

Ahantu hari abantu benshi barimo abagore n'abagabo begeranye, bahagaze, muri bo harimo uwambaye umwenda w'iroze.

Ahantu hari abantu batatu, harimo umugore wambaye umwenda w'umweru, bicaye ku ntebe y'umukara ndetse n'abandi bantu babiri bahagaze.

Abantu bahagaze barimo abagabo n'abagore, muri bo umwe wambaye ingofero, hamwe n'undi wambaye ikote ry'umukara, ndetse n'uwambaye karuvati hamwe n'uwambaye umwenda urimo ibara ritukura.

Robine iri kuvamo amazi, umutaka, amabido y'umuhondo ateretse ndetse n'umwana ufite igitenge ku rutugu, hamwe n'undi wambaye isengeri y'ubururu n'ijipo y'umukara.

Intebe, imeza isasheho igitambaro gisa umweru, mudasobwa, amacupa y'amazi ndetse n'abantu barimo uwambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'iroza, hamwe n'uwambaye umwenda urimo ibara rya kaki.

Intebe, abantu batatu bicaye, harimo umugore wambaye ikote ry'umukara utwite hamwe n'umugabo umukoze ku nda.

Ahantu hari amarido y'ubururu, ameza, ndetse n'intebe zicayeho abagore babiri muri bo harimo uwambaye umwenda w'umukara.

Intebe, imeza ifasheho igitambaro, umuntu wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro yumweru ndetse n'abandi bantu bambaye imyenda y'ubururu.

Inyubako irimo ameza afasheho ibitambaro bifite amabara arimo ubururu n'umuhondo ndetse n'abantu benshi bicaye barimo abagore n'abagabo.

Imeza isasheho igitambaro cy'icyatsi hamwe n'abantu, barimo abambaye udupfukamunwa n'imyenda y'umweru, muri bo harimo uwambaye ga ufite urushinge mu kiganza.

Imeza, itasi y'umweru, agasutasi k'umweru, projecteur, abantu bicaye barimo uwambaye karuvati ndetse n"undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu hamwe n'uwambaye ikote rifite ibara ry'umukara.

Ibiti, umuntu wambaye amarinete, karuvati n'ikote ry'umukara, umuntu wambaye itaburiya y'umweru na baji mu ijosi.

Robine, akabido k'umuhondo, akabido k'umweru ndetse n'umuntu wambaye umupira w'umweru n'undi wambaye umupira utukura.

Robine, amazi, ibyatsi, abana bambaye imyenda irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'ubururu, hamwe n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n'urimo ibara ry'umukara.

Igisharagati cy'umweru, abantu bahagaze barimo uwambambaye baji, ndetse n'ingofero, hamwe n'ipantaro y'umukara, hamwe n'undi muntu uhetse umwana, ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ritukura.

Abantu bahagaze barimo abagore n'abagabo, muri bo harimo uwambaye ijire irimo ibara ry'ubururu n'undi wambaye itaburiya, wambaye na baji mu ijosi ndetse n'abandi bafite telefone mu ntoki.

Icyumba k'ivuriro kirimo umugore wicaye ateruye umwana wambaye umupira w'umweru ndetse n'umuganga uri imbere yabo wambaye itaburiya y'umweru.

Ahantu hari robine iri guturukamo amazi ndetse n'indobo iteretse hasi hamwe n'umwana wambaye ikabutura itukura.

Intebe zirimo ibara ry'umukara hamwe n'abantu barimo abagabo n'abagore, muri bo harimo uwambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe ndetse n'undi wambaye indorerwamo z'umukara hamwe n'isaha ku kaboko ndetse n'umuntu wambaye umwenda uri mu ibara ry'icyatsi.

Igisharagati cy'umweru, ibyatsi, abantu benshi, harimo abambaye imyenda y'ubururu hamwe n'intebe.

Umuntu wambaye ijipo y'umukara, usutamye, ufite ibido y'umuhondo mu kiganza, imbere ye hari robine iri kuvamo amazi.

Igishararagati kirimo abantu bamwe bicaye n'undi uhagaze, muri bo harimo abambaye imyenda y'umweru ndetse n'abandi bambaye imyenda y'ubururu.

Ahantu hari abantu benshi bahagaze, barimo abana ndetse n'umuntu uhagaze ufite mikoro mu kiganza n'undi wambaye umupira w'umuhondo.

Ahantu hari urugi rw'icyatsi ndetse n'abantu babiri barimo umugore wicaye ufite uruhinja ndetse n'undi muntu uhagaze wambaye umwenda w'umweru.

Abantu barimo abagore n'abagabo muri bo harimo abambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu ndetse n'amabaji mu ijosi, hamwe n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara hamwe n'umwenda urimo ibara ry'umweru.

Umwana usutamye, uteze ibiganza amazi ari kumenekamo, robine, amabido abiri, imwe ifite ibara ry'ubururu n'umufuniko w'umutuku, ndetse n'indi ifite ibara ry'umuhondo.

Ibiti, abantu benshi bahagaze barimo abagore n'abagabo, bambaye amabaji hamwe nuwambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uwambaye ikoti ry'umukara na karuvati.

Imashini idoda abantu bicaye barimo uwambaye ingofero mu mutwe ndetse n'agasakoshi mu ijosi, hamwe n'agapfukamunwa, ndetse n'umwenda urimo ibara ry'umukara, wafunze amaso, hamwe n'undi muntu wambaye agapfukamunwa k'ubururu, hamwe n'undi wambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe.

Imeza, abantu bicaye barimo abagore n'abagabo, muri bo harimo abambaye imyenda y'ubururu isa ndetse n'umuntu ufite ikaye mu ntoki.

Ahantu ku mugezi hari abana babiri bicaye muri bo harimo uwambaye isengeri y'umuhondo, bombi bafite amajerekani abiri badubitse mu mazi barimo kuvoma.

Imeza, abantu barimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, ijire, ndetse n'indorerwamo z'amaso, n'undi wambaye isaha y'ibara ry'umweru ku kiganza, hamwe n'umwenda urimo ibara ry'icyatsi.

Ahantu hari robine ziri kuvamo amazi ndetse n'ibido y'umuhondo hamwe n'abantu benshi, muri bo harimo uwambaye umwenda w'umweru.

Ahantu hateraniye abantu batanu bicaye, hari tereviziyo inyuma yabo, hamwe n'umuntu wundi uri kuvuga bamuteze amatwi.

Ibiti, robine iri kuvamo amazi, umuntu wunamye uteze intoki arimo arakaraba, wambaye ishati irimo ibara ry'icyatsi n'ikabutura.

Ibiti, ibyatsi, robine, amazi, akabido k'umuhondo, umwana, ndetse n'umuntu wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu, ndetse n'abandi bantu barimo abambaye imyenda irimo ibara rya kaki.

Ahantu hari intebe z'ubururu ndetse n'abantu bicaye, muri bo harimo abambaye imyenda y'umweru hamwe n'uwambaye umwenda w'umukara.

Ahantu hari igiti ndetse n'amapave hasi, hahagaze abantu benshi barimo abambaye imyenda y'ubururu.

Ahantu hari ameza ndetse n'abantu barimo abagore n'abagabo, muri bo bamwe bambaye imyenda y'ubururu.

Ibiti, robine iri kuvamo amazi, indobo y'ubururu hamwe n'umuntu wunamye uteze intoki kuri robine arimo akaraba wambaye ishati y'icyatsi n'ikabutura.

Abana benshi bafite ibipapuro mu ntoki, harimo abambaye imyenda irimo ibara ry'umweru, ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ritukura, hamwe n'uwambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu, ndetse n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara.

Umusozi, ibiti, ibyatsi, igare, ibido y'amazi, umuntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umuhondo ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara hamwe na bodaboda z'umuhondo.

Urutoki abagore batatu bahagaze barimo uwambaye igitambaro mu mutwe gitukura ndetse nade wambaye kambambiri z'bururu, amabido menshi ateretse y'umuhondo.

Ahantu hari itiyo iri kuvamo amazi ndetse n'ibido y'umuhondo, hamwe n'abantu batatu, muri bo harimo uwambaye ishati itukura.

Ahantu hari ameza ndetse n'abantu benshi, barimo uwambaye umwenda w'icyatsi ndetse n'undi wambaye umwenda w'ubururu.

Ahantu hari abantu benshi barimo abana, ndetse na robine iri kuvamo amazi n'akabido gaterutse hasi umwana agafashe.

Ibiti, abantu barimo abambaye imyenda irimo ibara ry'umweru, uwambaye karuvati irimo ibara ry'umukara ndetse n'uwambaye amasogisi arimo ibara ritukura ndetse n'inkweto zirimo ibara ry'umukara, hamwe n'undi wambaye inkweto zirimo ibara rya kaki.

Itara riri kwaka, televiziyo, imeza, amacupa y'amazi, indabyo, intebe, abantu bicaye barimo uwambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu, hamwe n'uwambaye umwenda urimo ibara ry'umweru.

Ibiti, robine, indobo zirimo ifite ibara ry'umutuku, n'indi ifite ibara ry'ubururu, hamwe n'abantu barimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n'igitambaro ku umutwe, hamwe n'undi wambaye iherena, ndetse n'umwenda urimo ibara ritukura.

Imeza isasheho igitambaro kirimo ibara ry'umuhondo, icupa ry'amazi, ikirahure cy'amazi, intebe, abantu bicaye barimo uwambaye karuvati n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara ndetse n'indorerwamo z'amaso.

Ahantu hari ameza, imisambi isashe hasi ndetse n'abana benshi bicaye.

Ahantu hari abantu barimo umuntu wambaye umwenda w'ubururu n'undi wambaye umwenda w'umutuku, hari ibido iteretse hasi.

Ahantu hari abantu barimo umwana wambaye umwenda w'umweru uri kumwe n'undi muntu ufite urushinge, ari kurumutera.

Ahantu hari inzu ifite urugi rw'icyatsi ndetse n'umugore wicaye ateruye umwana, hamwe n'undi muntu uhagaze wambaye umwenda w'umweru.

Akameza, icupa, abantu bicaye barimo abambaye bage mu ijosi, ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, hamwe n'uwambaye umwenda urimo ibara ry'umukara.

Ibiti, ibyatsi, amabido harimo irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'indi ifite ibara ry'umweru n'indi irimo ibara ry'icyatsi, robine, amazi, umuntu wambaye umwenda urimo ibara ritukura ndetse n'ibara ry'umweru.

Umwana wambaye ikanzu, ufite imisatsi isutse, n'icupa mu ntoki ririmo amazi make yarifashe aricuritse.

Robine iri kuvamo amazi ndetse n'amajerekani ateretse hasi, harimo ijerekani y'umuhondo hamwe n'umuntu uhagaze wambaye umupira w'umweru.

Ahantu hateraniye abantu benshi barimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe mu byatsi, imbere yabo hari imodoka inyuma yabo hari inyubako ndetse n'ahantu hatabwa imyanda.

Itara riri kwaka, indorerwamo, abantu bahagaze barimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n'indorerwamo z'amaso n'agapfukamunwa, hamwe n'undi wambaye itaburiya irimo ibara ry'ubururu hamwe n'akayungirizo mu mutwe.

Ibiti, igisharagati cy'umweru, abantu benshi barimo abicaye n'abahagaze, muri bo bamwe bambaye imyenda irimo ibara ritukura ndetse harimo n'uwambaye ingofero.

Ahantu hari abantu benshi bicaye, muri bo harimo uwambaye ingofero n'uwambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'undi wambaye umwenda w'umweru.

Robine iri guturukamo amazi, ibase abagore barimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n'undi wambaye igitenge n'igitambaro mu mutwe, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu.

Abantu babiri bahagaze barimo uwambaye umwenda w'ubururu, ndetse n'undi w'umugore wambaye igitenge.

Ahantu hari itiyo iri guturukamo amazi ndetse n'ibase, hamwe n'umwana wambaye imyenda irimo ibara ry'umutuku wunamye.

Abantu bateraniye, hamwe barimo umugore n'umwana uri kumwe n'umuntu uri kumureba mu maso.

Ahantu hari abagore barimo ututeruye umwana ndetse n'undi ufite akamashini mu ntoki gapima umuriro ugiye gupima umwana.

Ibiti, byatsi, amarobine, amazi, indobo z'umuhondo, akabido k'umuhondo, abantu barimo abambaye imyenda ifite ibara rya kaki ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ritukura.

Ahantu hari abantu barimo umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ingofero y'ubururu ndetse n'umwana wikoreye akabido.

Umwana wambaye amasogisi, ndetse niipantaro y'ubururu, hamwe n'umuntu wambaye inkweto z'umukara, ndetse n'umupira urimo ibara ry'umuhondo, nindorerwamo z'amaso, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru.

Abantu barimo uwambaye indorerwamo z'amaso, iherera ku gutwi, baje mu ijosi, ijire, umupira urimo ibara ry'ubururu, hamwe n'undi wambaye ingofero ndetse n'undi wambaye isaha ku kuboko, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara.

Abantu babiri bahagaze, barimo uwambaye agakomo k'ubururu ku giganza, uhetse igikapu, hamwe n'undi wambaye umupira w'ubururu, wambaye agakomo k'ubururu, hamwe n'akandi kantu mu ijosi.

Imeza umuntu uhagaze wambaye itabuririya y'umweru ndetse n'inkweto z'umweru, hamwe n'ipantaro ya kaki, hamwe n'abandi bantu bicaye barimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu, n'uwambaye igitambaro mu mutwe ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ritukura.

Intebe z'umukara hamwe n'abantu benshi, harimo uwambaye ikanzu itukura ndetse n'uwambaye ikote ry'umukara, hamwe n'uwambaye umwenda w'umweru.

Ahantu hari abantu barimo umusaza wicaye ku ntebe ndetse n'umuntu uhagaze wambaye umwenda w'ubururu umufashe akaboko.

Ahantu hari igitanda kiryamaho abarwayi ndetse n'umwana ukiryamyeho, hamwe n'umuntu wicayeho, hari n'abandi bantu babiri bahagaze.

Ibyatsi, abana barimo uwambaye umwenda urimo ibara ritukura ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara rya kaki ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'icyatsi, hamwe n'undi wasamye amenyo agaragara.

Abantu barimo abana ndetse n'umugore wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu hamwe n'indorerwamo z'amaso ndetse n'ingofero mu mutwe, hamwe n'abandi bambaye imyenda irimo ibara ritukura.

Ahantu hari abantu barimo: abagore babiri n'abana batatu, muri abo harimo umugore uri kuhagira umwana ndetse n'indobo.

Inzu, ibiti, ibyatsi, abantu babiri barimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu, ndetse n'urimo ibara rya kaki, indobo irimo ibara ry'icyatsi, umuntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara, ndetse n'ibara ry'umutuku.

Imeza iteretseho mudasobwa, porojegiteri irimo kwaka, amacupa y'amazi hamwe n'intebe n'abantu bazicayeho, barimo uwambaye umwenda utukura.

Ahantu hari ibisharagati ndetse n'abantu benshi, muri bo harimo abagore hamwe n'abagabo ndetse n'intebe.

Ahantu hari abana n'utubido tw'umuhondo duteretse hasi hamwe na robine iri kuvamo amazi ndetse n'umuntu wambaye umwenda w'umukara.

Ahantu hari amarobine ari kuvamo amazi ndetse n'abana bahagaze hamwe n'indobo ziteretse hasi n'ibiti.

Intebe abantu bicaye bateruye abana, harimo uwambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, n'undi wambaye umwenda urimo ibara ritukura, ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu, hamwe n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze barimo abagore n'abagabo, muri bo bamwe bambaye imyenda irimo ibara ry'umweru n'abandi bambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu, hamwe n'umuntu wambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'igitambaro mu mutwe.

Ahantu hari abantu benshi barimo abana ndetse n'umugabo hamwe n'amabido ateretse hasi.

Ahantu hateraniye abantu benshi barimo abagore n'abagabo bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo gusoza igikorwa cyari cyabahuje.

Icyumba cy'ishuri, kirimo intebe abanyeshuri bicaraho n'urubaho rw'umukara, ndetse n'abanyeshuri bicaye bafite amasahani ariho ibiryo imbere yabo.

Ahantu hari indabyo ndetse n'abantu batatu, harimo umugabo wambaye ingofero mu mutwe, umwana ndetse n'umuganga.

Intebe isa ubururu, imeza isasheho igitambaro cy'umweru, mudasobwa, abantu barimo uwambaye ingofero mu mutwe ndetse n'agapfukamunwa karimo ibara ry'ubururu na baje ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, wambaye ga mu ntoki, ufite urushinge ari gutera umwana mu buryo bwo kumuvura, ahantu hateraniye abana benshi.

Ibyatsi abantu bicaye bambaye ibitambaro mu mutwe, muri bo harimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'umutuku ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'iroza.

Abantu barimo umwana wambaye umwenda urimo ibara ry'umuhondo ndetse n'undi muntu wambaye amarineti, hamwe n'umuntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ritukura.

Ahantu hari itiyo iri kuvamo amazi ndetse n'abantu muri bo harimo uwambaye isengeri y'umweru n'undi wambaye umupira urimo ibara ry'ubururu ndetse n'undi uteruye indobo.

Intebe zirimo ibara ry'umukara, imeza, mikoro, abantu bicaye barimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'umukara, ishati irimo ibara ry'umweru ndetse na karuvati irimo ibara ritukura.

Abantu bahagaze barimo uwambaye igitenge ndetse n'undi ufite agasakoshi karimo ibara ry'umuhondo, hamwe n'uwambaye ijire irimo ibara ry'icyatsi ndetse n'uwambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu.

Ibiti, ibyatsi, robine, amazi, ijerekani iriimo ibara ry'umuhondo, abantu barimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu, uwambaye umwenda urimo ibara ritukura ufite inkoni mu kiganza, ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara.

Robine iri kuvamo amazi, ibido y'umuhondo, ibido y'ubururu, ifite umupfundikizo utukura, umwana wambaye umwenda urimo ibara ritukura.

Ahantu hari ibiti na robine ndetse n'indobo z'umweru ziteretse hasi, hamwe n'umwana wunamye.

Imeza, ibikombe, abana benshi bambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ryenda gusa umweru.

Ahantu hari tereviziyo ku rukuta ndetse n'abantu benshi barimo abagore n'abagabo, muri bo harimo abambaye imyenda y'umweru n'uwambaye umwenda utukura.

Abantu barimo abagore n'abagabo, muri bo harimo abambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu ndetse n'amabaje mu ijosi hamwe n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara ndetse n'undi urimo ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze barimo abagore n'abagabo, muri bo harimo uwambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe, uhetse umwana, uwambaye ingofero, uwambaye baji ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ritukura.

Abantu barimo abana bambaye imyenda y'umuhondo, bamanitse amaboko ndetse n'umuntu wambaye ingofero hamwe n'undi wambaye umwenda w'umweru.

Abantu barimo abagabo n'abagore bamwe bicaye, abandi bahagaze muri bo harimo abambaye imyenda y'umweru.

Ahantu hari abagore bicaye, muri bo harimo uwambaye umwenda w'umweru n'undi wambaye umwenda w'umutuku.

Ahantu hari inzu ndetse n'umugore, hamwe n'uduti dutatu, tubiri duhagaze akandi gatambitse kariho akabito k'umweru.

Ahantu hari ibyatsi ndetse n'abantu benshi, muri bo harimo abicaye ndetse n'abandi babiri, umwe muri bo wambaye umwenda w'iroza.

Ahantu hari itiyo iri kuvamo amazi ndetse n'ibase itukura hasi, hari abana benshi.

Abantu barimo umugore wambaye iherena ririmo ibara ry'umweru ku gutwi ndetse n'agapfukamunwa, wambaye isaha ndetse n'impeta, uteruye umwana, wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu.

Ahantu hari umugabo wambaye inkweto n'ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu y'amaboko maremare imbere ye hari akabido k'umuhondo.

Ahantu hari abagore batatu. Umwe arimo aranywa amazi, undi ari kuyatega mu kiganza ndetse hari n'amajerekani abiri ateretse hasi.

Umukeka, abantu bicaye, inkongoro, abana, abantu bambaye imyenda y'umweru, umuntu wambaye umwenda w'iroza n'uwambaye ipantaro y'umukara.

Intebe y'urubaho, intebe za palastike zisa umweru, hamwe n'indi ntebe isa umukara, ameza, abantu bahagaze barimo uwambaye ikanzu itukura.

Ibiti, robine, amajerekani arimo ibara ry'umuhondo, abantu bahagaze barimo uwambaye igitenge, igitambaro mu mutwe ndetse n'uwambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, hamwe n'uwambaye umwenda urimo ibara ry'umuhondo.

Igisharagati gisa umweru, imodoka, abantu bahagaze barimo uwambaye umwenda ufite ibara ritukura, umwana wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara ndetse n'undi muntu wambaye umwenda uri mu ibara ry'ubururu.

Ahantu hari abantu benshi bahagaze, muri bo harimo uwambaye umwenda w'umweru, uwambaye umwenda utukura, hamwe n'uwambaye umwenda w'umukara.

Abantu bahagaze, barimo abagore n'abagabo, muri bo bamwe bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'undi muntu wambaye karuvati.

Ahantu hari robine iturukamo amazi ndetse n'ibase hamwe n'umwana uhagaze urimo arakaraba amaboko.

Ahantu hari abantu benshi barimo abagore n'abagabo ndetse n'amajerekani ateretse hasi na robine irimo iravamo amazi hamwe n'umwana.

Intebe z'umukara, abantu bicaye muri bo harimo uwambaye umupira w'icyatsi ndetse n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, hamwe n'undi muntu wambaye indorerwamo z'amaso.

Ahantu hari intebe ndetse n'abantu bicaye, muri bo harimo uwambaye agakoti k'umutuku ndetse n'umbaye ikoti ry'ubururu.

Ahantu hari abantu barimo umwana wambaye umwenda w'ubururu n'undi wambaye umwenda wa kaki ndetse n'umugore wikoreye ijerekani.

Ahantu hateraniye abantu benshi barimo abahagaze n'abicaye barimo gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo gusoza igikorwa cyari cyabateranije hamwe.

Igiti, robine, amazi, abana barimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'icyatsi hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu.

Igiti, urutoki, intebe, abantu bicaye harimo uwambaye umwenda w'ubururu n'ipantaro ya kaki.

Abantu bahagaze barimo abambaye amapantaro y'umukara ndetse n'imipira irimo ibara ry'ubururu, hamwe n'uwambaye isaha n'undi wambaye ingofero mu mutwe, hamwe n'uwambaye forari mu ijosi ndetse n'undi wambaye indorerwamo z'amaso.

Abana benshi bambaye imipira y'umuhondo n'utuntu tw'umweru mu mutwe, muri bo harimo uri guseka wambaye akantu k'umuhondo ku kaboko.

Abantu barimo uwambaye umupira w'amaboko maremare uri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'undi wambaye umwenda uri mu ibara ry'umweru, hamwe n'undi wamwenyuye amenyo agaragara, ndetse n'undi wambaye ingofero mu mutwe.

Intebe nyinshi zifite imisego itukura ndetse na televiziyo imanitse ku rukuta, hamwe n'abantu bicaye harimo uwambaye n'amarinete.

Abantu bahagaze barimo uwambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'umwenda urimo ibara ritukura, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, hamwe n'uwambaye umukandara.

Ahantu hari ameza asasheho ibitambaro, ndetse n'intebe zicayeho abantu, muri bo harimo uwambaye umupira wa orange, ndetse n'umuntu uhagaze.

Abantu barimo umugore wambaye umupira w' iroza ufashe umwana, ndetse n'undi wambaye umupira w'umweru.

Ahantu hari intoki ndetse n'intebe hamwe n'abantu bicaye muri bo harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu.

Ahantu hasashe amapave hasi hari abantu benshi begeranye, muri bo harimo uwambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru.

Ahantu hari abana benshi bambaye imyenda y'ubururu, bazamuye amaboko muri bo harimo abamwenyuye amenyo yabo agaragara.

Inzu irimo umusambi usashe hasi ndetse n'intebe yicayeho umugore wambaye kambambiri hamwe n'igitenge, wahuje amaboko.

Amakoma, inzu, isafuriya irimo ibara ry'umukara, umukecuru wambaye igitenge, ndetse unafite imisatsi irimo imvi wamwenyuye, igikombe kirimo ibara ry'icyatsi, umupfundikizo, hamwe n'igikombe kirimo ibara ry'ubururu.

Imeza ikozwe mu rubaho, isasheho igitambaro cy'umuhondo, icupa ry'amazi riyiteretseho, umuntu wicaye, intebe y'ubururu, hamwe n'undi muntu wambaye umupira, urimo ibara ry'ubururu.

Abantu babiri, barimo umuntu wifashe mu mutwe wambaye umupira w'umweru, ari kumwe n'undi umufashe akaboko.

Inzu, isafuriya, umuntu wicaye ku gasongabugari wambaye agapfukamunwa, wamwenyuye amenyo agaragara, uhetse umwana, ikigoma kirimo ibara ry'umweru, hamwe n'undi mwana wambaye umwenda urimo ibara ry'iroza.

Abantu bahagaze barimo abagore n'abagabo, muri bo harimo umuntu wambaye ishati y'umweru, wambaye na karuvati.

Ahantu hari ameza, intebe, akabati ndetse n'abagore batatu, harimo babiri bafite abana n'undi umwe urimo arabavugisha.

Ahantu hari ameza asasheho ibitambaro by'umukara hamwe n'abantu bahagaze, muri bo harimo abambaye imipira y'umukara.

Abantu barimo abicaye ndetse n'abahagaze, muri bo harimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'umuhondo n'undi wambaye umwenda urimo ibara ritukura ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara.

Ahantu hari ameza ndetse n'abantu benshi begeranye barimo abagabo n'abagore bahagaze harimo n'abari kumwenyura.

Amatara ari kwaka, intebe zirimo ibara ry'umukara, umuntu wambaye igitambaro kirimo ibara ry'ubururu mu mutwe, abantu bicaye, umuntu wambaye umwenda urimo ibara ry'icyatsi, ndetse n'uwambaye umwenda urimo ibara ry'iroza mu mutwe.

Abantu barimo umugore ufite agapfukamunwa ku kaboko n'undi ufite ikayi mu kiganza, hamwe n'umugabo wambaye ishati.

Abantu babiri, barimo umuntu wambaye imyenda y'umukara n'undi wicaye wambaye imyenda y'umutuku, wambaye n'ingofero, wikoze ku itama.

Icyumba kirimo abantu benshi bateraniye mu nama, harimo umugore n'abagabo muri abo hakaba harimo umugore urimo uratanga igitekerezo.

Umugabo wambaye ingofero, ishati ndetse n'undi mwenda w'umuhondo, ufite icumu mu ntoki wamwenyuye.

Ahantu hateraniye abantu benshi, barimo abagore n'abagabo, biyegeranyije bari gufata ifoto y'urwibutso, bamwe bari imbere abandi bari inyuma.

Abantu barimo ufite megafone irimo ibara ry'umweru ndetse na baje mu ijosi, ufite n'igikapuro mu kiganza, wambaye inkweto zirimo ibara ry'umukara ndetse n'umwenda urimo ibara ry'icyatsi, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru.

Intoki, ibyatsi, abantu bahagaze barimo abambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'irimo ibara ry'umukara, hamwe n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n' numuntu w'undi wambaye ingofero mu mutwe.

Robine umugore n'umugabo wambaye umupira w'umweru, ufite isume ku rutugu, urimo arireba mu ndorerwamo yoza amenyo.

Ahantu hari abantu batatu, barimo umwe uryamye, hamwe n'abandi barimo kumureba mu kanwa, bambaye imyenda y'umukara.

Abantu bicaye n'abandi bahagaze, barimo abagore n'abagabo, muri bo harimo uteruye umwana, uwambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, hamwe n'uwambaye indorerwamo z'amaso.

Icyumba cy'ivuriro kirimo akabati gasa umweru ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda urimo arareba akantu umuganga afite mu ntoki.

Ahantu hari umugabo ufite ubwanwa n'imisatsi y'umukara, uri kumwenyura, ufite amenyo y'umweru, wambaye umupira w'umweru.

Ahantu hari abaganga babiri bambaye udupfukamunwa n'umwana ufiteyo agapfukamunwa k'umutuku wicaye ku ntebe, bari kureba mu kanwa bamuvura.

Intebe z'abanyeshuri zikoze mu rubaho, abana bazamuye amaboko hejuru basetse, muri bo harimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu hamwe n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara.

Ahantu hari irido itukura ndetse n'umugabo uri kwireba mu ndorerwamo, wambaye umwenda w'umukara ari koza amenyo.

Intebe zo kwicaraho z'abanyeshuri, abana bambaye amashati y'umuhondo bamanitse amaboko, hejuru urubaho rw'umukara.

Icyumba cy'ivuriro gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo kirimo igitanda umurwayi aryamaho intebe muganga yicaraho avura umurwayi imashini yifashishwa mu kuvura umurwayi amenyo.

Imeza isasheho igitambaro, intebe abantu bicaye bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'abandi bambaye imipira y'umweru.

Intebe y'abanyeshuri bicaraho, ikibaho cyo kwandikaho gisa umukara, umuntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n'uwambaye umwenda urimo ibara ry'umukara, hamwe n'uwambaye indorerwamo z'amaso hamwe n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'icyatsi.

Umugabo ufite imisatsi n'ubwanwa, ufashe akadodo mu ntoki ze, wamwenyuye, arimo aroza amenyo.

Umugabo utambaye umwenda ku gice cyo hejuru, ufite akantu mu biganza, wamwenyuye arimo aroza amenyo.

Ameza asasheho igitambaro cy'umweru, hamwe n'umuntu wambaye umupira w'ibyatsi n'isaha y'umukara, n'undi muntu wambaye umupira w'umweru.

Umugabo munini ufite ubwanwa, imisatsi, wasamye ufite akantu k'akadodo arimo aroza amenyo.

Umukobwa ufite indorerwamo wicaye mu ntebe urimo kureba amenyo ye nyuma yuko amaze kuyivuza arimo anaseka.

Igisharagati cy'umweru mu munzani, abantu bahagaze harimo abambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abambaye imyenda y'umweru.

Umugabo wambaye umwenda w'umweru ufite akantu mu biganza urimo kwireba mu ndorerwamo yoza amenyo.

Icyumba cy'ivuriro kirimo abantu, barimo umugabo uryamye wambaye umupira w'ubururu bwijimye ndetse n'abandi bantu babiri bahagaze.

Icyumba cy'ivuriro kirimo umugabo wambaye umupira w'icyatsi wicaye, aryamye yasamye, ari kumwe n'umuganga wambaye ishati y'umweru, urimo aramureba mu kanwa.

Icyumba cy'ivuriro kirimo abantu batatu, abagabo babiri n'umugore uryamye, barimo baramuvura mu kanwa.

Umugabo ufite ubwanwa wambaye umupira w'umweru na marinete, uri kwerekana amenyo ye asa umweru wafunguye umunwa.

Ahantu hari ameza asasheho ibitambaro by'ubururu, ndetse n'abagore babiri bahagaze, umwe wambaye umwenda w'ubururu n'undi wambaye umwenda w'umutuku.

Umuntu uri kwireba mu ndorerwamo, wambaye umupira w'umweru, ufite akadodo koza amenyo mu biganza arimo arayosa.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara, ufashe akadodo wasamye ufite amenyo y'umweru arimo arayoza.

Icyumba kirimo umugore w'umukecuru wicaye mu ntebe uri, kumwe n'umuganga w'umukobwa ukiri muto wita ku bageze mu za bukuru, na we akaba ari kumwitaho.

Imeza iteretseho igisorori gikoze mu kirahure, icyuma, umuntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse wambaye indorerwamo z'amaso, uri guseka, hamwe n'undi wambaye iherena.

Igiti, intebe ikoze mu rubaho, abantu babiri barimo umugore wambaye agapfukamunwa, indorerwamo z'amaso, akantu gapima umutima mu ijosi ndetse n'isaha ku kaboko, ga z'umweru.

Ahantu hari ameza ateretseho amatasi y'umweru ndetse n'abantu babiri, muri bo harimo uwabambaye umupira w'umweru n'indorerwamo z'amaso.

Ahantu hari abantu babiri barimo umusaza wambaye umupira w'umweru ndetse n'umugore wambaye imyenda y'ubururu, hamwe n'isaha.

Imeza, umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare w'iroza, n'undi wambaye, ipantaro, uri guseka. wambaye indorerwamo z'amaso.

Umuntu wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare na marinete ndetse n'ishati yicyatsi, ufite ikaramu mu kiganza.

Ahantu hari intebe ndetse n'abantu babiri, muri bo umwe wambaye umwenda w'ubururu, n'undi ufite ikirahure.

Abantu babiri barimo umusaza ufite ubwanwa n'imisatsi irimo imvi, wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu ndetse n'ikabutura irimo ibara ry'umukara hamwe n'undi muntu wambaye ipantaro irimo ibara ry'umukara.

Imeza, icupa ry'umweru, umufuniko w'icyatsi, ibinini hamwe n'umugore wambaye amarinete, hamwe n'umwenda w'umuhondo.

Imeza, amasahani y'umweru, ibiryo, ikirahure, abantu bicaye barimo ufite ifurusheti, wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, ndetse n'undi wambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'umwenda urimo ibara ry'iroza.

Abantu babiri barimo umugore wambaye umupira ufite amaboko maremare n'ibifungo birimo ibara ry'umukara, ufite mu biganza bye byombi umugozi usa n'iroza, hamwe n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara.

Abantu babiri barimo uwamwenyuye amenyo agaragara, wambaye ishati irimo ibara ritukura, ufite isahani y'umweru mu kiganza irimo ibiryo, ikiyiko, ikanya, imeza, ikirahure kirimo amazi.

Abantu babiri harimo umukecuru ufite imvi, uri kureba umugore wambaye umwenda w'ubururu ufite akantu gapima umutima mu ijosi.

Imeza, intebe, umugabo wambaye ishati ndetse ufite na terefone mu kiganza, hamwe n'umugore wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu ndetse n'umugozi mu ijosi urimo ibara ry'umweru.

Intebe, tapi itukura, imeza ikoze mu rubaho, impapuro, abantu babiri barimo umugabo wambaye ishati, ndetse n'indorerwamo z'amaso, hamwe n'umugore wambaye umwenda urimo ibara ry'iroza ndetse n'impeta.

Abantu barimo abagore n'abagabo ndetse n'umwana, muri bo harimo uwambaye umupira w'ubururu.

Imeza ikoze mu rubaho abantu babiri barimo wambaye umwenda urimo ibara ritukura ndetse n'impeta, hamwe n'iherena, wamwenyuye amenyo agaragara, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu.

Ahantu hari umusaza ufite imvi wicaye, wambaye umupira w'amaboko maremare w'umuhondo, uri kumwe n'umugore umufashe ikiganza.

Abagore barimo uwambaye igitambaro kirimo ibara ritukura mu mutwe, wamwenyuye ndetse n'igitenge, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, ndetse n'igitambaro kirimo ibara ry'ubururu mu mutwe.

Umugore uri guseka yishimye, uri mu gikoni kirimo utubati ndetse n'akameza ko gutekeraho, ufite ibiryo mu ntoki n'ikanya agiye kurya.

Abantu babiri barimo umugore wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n'agakoresho gapima umutima mu ijosi n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu, ufite ubwanwa burimo imvi.

Akabati, robine, isaha, akavaze karimo indabyo, abantu babiri barimo uwambaye indorerwamo z'amaso, ndetse n'undi wambaye umupira w'amaboko maremare urimo ibara ry'umweru.

Igiti, abantu bahagaze, barimo abagabo ndetse n'abagore, muri bo harimo uwambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'uwambaye umwenda urimo ibara ry'umukara.

Ahantu hari igitanda kiriho umusaza ufite ubwanwa burimo imvi ufashe ikirahure, imbere ye hari umugore.

Igitanda, inzitiramibu, umuntu wambaye indorerwamo z'amaso, n'undi wambaye ipantaro y'ubururu, hamwe n'akameza gatoya.

Imeza iriho ikirahure kirimo amazi ndetse n'agacupa, hamwe n'abantu babiri barimo umusaza wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, ufite ubwanwa burimo imvi, ndetse n'undi mukecuru na we wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu.

Ahantu hari imeza ndetse n'abantu babiri, barimo umugore wambaye ipantaro n'ishati y'umweru hamwe n'isaha.

Abantu barimo abagore babyibushye ndetse n'abambaye amashati y'ubururu n'umugabo wambaye imyenda y'umukara, bari mu muhanda bagenda.

Igiti, intebe z'umweru, abantu bicaye, muri bo harimo uwambaye umwenda utukura, abambaye imyenda y'ubururu n'undi wambaye igitambaro mu mutwe.

Rido, itara, akabati, intebe, abantu bicaye barimo uwambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n'indorerwamo z'amaso hamwe n'ipantaro ndetse n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu.

Intoki, ibyatsi, abantu barimo abafite inkoni mu ntoki ndetse banambaye imyenda irimo ibara ritukura, hamwe n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara ndetse n'uwambaye bodaboda z'umuhondo.

Abantu babiri barimo umugore wambaye ishenete mu ijosi, ufite inkoni ndetse n'umwenda urimo ibara ry'ubururu, hamwe n'undi muntu wambaye agakoresho gapima umutima mu ijosi, ufite ubwanwa wamwenyuye amenyo agaragara.

Ahantu hari intebe ndetse n'igare ryicaramo umuntu wamugaye, ryicayemo umugore wambaye imyenda irimo ipantaro.

Urutoki, intebe z'umweru, abagore bicaye, barimo abambaye ibitambaro mu mutwe hamwe n'uwambaye umwenda utukura n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu.

Ahantu hari igiti ndetse n'umukecuru wambaye igitambaro mu mutwe n'ishati y'umweru wicaye, ahinnye amaguru.

Imeza iteretseho mudasobwa, uducupa, impapuro ndetse n'abantu babiri, barimo uwambaye impeta ndetse n'undi wambaye indorerwamo z'amaso n'amaherena.

Imeza, intebe, ikirahure kirimo amazi, agacupa, abantu babiri barimo uwambaye umupira urimo ibara ry'umweru ndetse n'undi wambaye umupira urimo ibara ry'umutuku, wambaye n'impeta ufite igipapuro mu kiganza.

Ahantu hari abantu benshi, barimo umugore wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'umugabo wambaye ikote ry'umukara.

Robine, akabika k'icyuma, ijage ikoze mu kirahure irimo amazi, icupa, ikirahure kirimo amazi, umuntu wambaye iherena ndetse n'umwenda w'amaboko maremare uri mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi barimo uwambaye isengeri y'umuhondo, ufite akantu mu ntoki, wamwenyuye, amenyo agaragara.

Abantu babiri barimo umugabo wicaye mu ntebe, wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, uri kureba undi uhagaze w'umugore wambaye imyenda y'ubururu, wamwenyuye amenyo agaragara, inyuma yabo hateretse ikivaze.

Abantu batatu barimo umugore wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, n'undi wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko maremare.

Umuntu wambaye indorerwamo z'amaso, uri kumwe n'undi wambaye umwenda w'ubururu, ufite mu ntoki agatambaro k'umuhondo n'undi wambaye ishati y'umweru.

Umusaza ufite imvi, wicaye mu kagare k'abamugaye, uri kumwe n'umugore w'umuganga wambaye akoresho gapima umutima, uri kumufasha kugorora akaboko.

Ibiti, ibyatsi, abantu babiri bambaye inkweto, amapantaro, harimo n'uwambaye umupira ndetse n'uwambaye ishati n'isaha ku kaboko ndetse n'ingofero.

Intebe, umuntu uyicayeho wambaye umupira w'amaboko maremare usa shokora, indorerwamo z'amaso ndetse n'igitambaro cy'umukara mu mutwe uri kumwe n'undi muntu wambaye umwenda w'ubururu.

Intebe, umuntu ufite inkoni mu kiganza wambaye impeta, umuntu wambaye imyenda y'ubururu.

Utubati, imeza, amasahane, ikirahure, umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare w'iroza n'undi wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru.

Ahantu hari ameza ndetse n'abantu barimo umugore n'umwana bambaye imyenda y'umweru, barimo barareba akantu.

Ahantu hari ameza ndetse n'intebe zicayeho abantu, hamwe n'undi muntu uhagaze wambaye amarinete.

Ibiti, ibyatsi, agatapi ndetse n'umuntu ukicayeho wambaye umwenda urimo ibara ritukura ndetse n'umupira w'amaboko maremare, wahinnye umugongo wakoze ku maguru yombi.

Ibiti, ibyatsi, intebe y'abamugaye, umuntu wicaye wambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'indorerwamo z'amaso, uri kumwe n'undi muntu wambaye iherena wasetse.

Intebe hamwe n'umuntu wambaye umwenda w'umukara, ufashe akaboko undi muntu wambaye umwenda wa shokora wamwenyuye.

Ahantu hari umugabo ufite imvi, wambaye umupira w'amaboko maremare w'umuhondo n'ikoboyi y'ubururu, wicaye ari kumwe n'umwana.

Umukecuru wambaye amaherena uri kumwe n'undi mukobwa wambaye umupira w'iroza ufite akantu mu ijosi gapima umutima.

Ahantu mu kibuga cya basket, harimo abantu babiri barimo umugabo ndetse n'umwana ufite umupira mu ntoki.

Icyumba kirimo abantu bageze mu zabukuru bicaye hasi, harimo n'umusore umwe wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'umuntu urimo araboha igiseke.

Abagore benshi bicaye, imbere yabo hari inyanya, muri bo harimo abambaye ibitambaro mu mutwe.

Ahantu hari ameza y'umweru ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umweru wicaye ari kumwe n'umugore uhagaze.

Abantu barimo bambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'ingofero mu mutwe, hamwe n'undi wambaye umwitero urimo ibara ry'umukara, ishati irimo ibara ry'umweru ndetse n'ingofero irimo ibara rya kaki.

Akayatajeri karimo ibara ry'umweru, igitanda abantu babiri barimo uwicaye wambaye umwenda urimo ibara ry'umuhondo, ufite ubwanwa burimo imvi ufashe mu biganza byombi umugozi urimo ibara ry'umuhondo.

Imeza, abantu batatu barimo uwambaye umupira w'amaboko maremare, ufite ibara ritukura ndetse n'undi nawe wambaye umupira urimo ibara ry'umukara ndetse n'undi mupira urimo ibara ry'umweru, bose barimo baraseka.

Imeza, umuntu wambaye baji mu ijosi, uwambaye igitambaro mu mutwe, juwambaye imyenda y'ubururu n'undi wambaye itaburiya y'umweru.

Ahantu hari imeza iriho igitambaro cy'umweru, hashashe itapi itukura hasi, hateraniye abantu benshi bari kwifotoza.

Ameza asasheho ibitambaro, intebe, abantu bicaye barimo uwambaye indorerwamo z'amaso, uwambaye ingofero ndetse n'abandi bambaye imyenda y'umweru.

Ahantu hari abantu benshi, barimo abagore n'abagabo, muri bo harimo abambaye imipira ya oranje ndetse n'abana bicaye.

Imodoka, ibyatsi, abantu benshi bahagaze barimo abagore n'abagabo, muri bo bamwe bambaye amapantaro y'umukara ndetse hamwe n'uwambaye ishati y'iroza hamwe n'abandi bambaye imipira y'ubururu.

Ahantu hateraniye abantu benshi, barimo bareba imbere, bari kureba ababyinnyi benshi barimo barabyina bazamuye amaboko.

Intebe z'umweru, abantu bambaye imyenda y'umweru, icupa, umuntu wambaye ikote ry'umukara ndetse n'umwenda w'umutuku imbere.

Abantu benshi begeranye, barimo abagore n'abagabo, bamwe bicaye, abandi bahagaze, muri bo harimo umugore wambaye umwenda w'ubururu.

Inyubako iteraniyemo abantu benshi, bari hamwe barimo bafata ifoto y'urwibutso, nyuma y'igikorwa cyari cyabahuje.

Ameza ariho mikoro ebyiri ndetse n'umuntu wambaye umupira w'umukara, hamwe n'undi wambaye ishati y'umweru n'ijire itukura.

Icyumba kirimo amarido y'amabara atandukanye ndetse n'intebe zitukura zicayeho abantu barimo: abagore n'abagabo bicaye bareba imbere.

Ahantu hari abantu bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa ndetse n'ingofero z'ubururu, hari televiziyo imanitse ku rukuta.

Intebe, icupa ry'amazi, abantu bicaye barimo: abagore ndetse n'abagabo, muri bo harimo ufite mikoro mu kiganza ndetse n'undi wambaye karuvati hamwe n'undi wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umuntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru.

Ibiti, ibyatsi, abantu barimo abagore, n'abagabo, muri abo harimo uwambaye indorerwamo z'amaso, ndetse n'umwenda urimo ibara ry'umukara, hamwe n'undi wambaye umwenda uri mu ibara ry'umweru, hamwe n'undi wambaye karuvati.

Inyubako irimo igitanda cy'umwana, intebe y'umweru, akabati, ahantu ho kogereza intoki ndetse n'akantu kumisha intoki.

Ahantu hari abantu benshi, muri bo harimo umwana wambaye ikanzu y'umweru irimo utuntu tw'umukara, ndetse n'undi wambaye ijipo y'iroza.

Akabati, intebe, abantu babiri, barimo uwambaye itaburiya y'umweru, ufite akuma gapima umutima mu ijosi, wambaye agapfukamunwa n'iherena.

Igitanda cy'abarwayi, intebe, umugabo wicaye, wambaye itaburiya iriho ikaramu ku mufuka ifite umufuniko w'ubururu, isaha, impeta, inkweto ndetse n'umupira urimo ibara rya kaki.

Ahantu hari mudasobwa, ndetse n'itara ryaka, hamwe n'ameza n'abantu batatu, barimo uwambaye umwenda w'umweru.

Ibiti, ibyatsi, amapave, abantu bari kugenda, barimo uwambaye ishati y'ubururu n'ipantaro ya kaki, n'undi wambaye umupira w'umweru.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bari imbere y'inyubako hanze bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo gusoza igikorwa cyari cyabahuje.

Akantu ko gutamo imyanda, imeza, igitanda umuntu uryamye, ikiringiti kirimo ibara ry'ubururu, amarido asa ubururu.

Abantu bambaye ibitambaro mu mutwe, umuntu wambaye ingofero n'ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara, hamwe n'abantu bicaye.

Ahantu mu gipangu hari ubusitani burimo ibyicungo, abana bicungaho kugira ngo bishime, bidagadure.

Ahantu hari amapave hasi n'imodoka y'umukara ndetse n'abagore batatu bahagaze, hari n'umuntu wicaye wambaye umupira utukura.

Imeza y'umweru, intebe, etajeri, amatara ari kwaka, abantu bicaye, abantu bahagaze.

Ahantu hari inzu, ameza asasheho igitambaro ndetse n'intebe hamwe n'abantu muri bo harimo abambaye imipira y'ubururu.

Inyubako ifite amarido y'umweru ndetse n'imeza iteretseho mudasobwa irimo kwaka ndetse n'umuntu wambaye umwenda w'ubururu.

Ahantu hasashe amapave hasi, hari abantu barimo bagenda, barimo umwana wambaye imyenda y'ubururu n'undi wambaye imyenda y'icyatsi.

Amatara ari kwaka, igitanda cy'abarwayi, umuntu wambaye bagi mu ijosi, ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, hamwe n'undi muntu, wambaye ipantaro isa umukara, ndetse n'umwenda urimo ibara ry'umweru.

Ahantu hari mudasobwa ndetse n'umugore ufite agapfukamunwa ku munwa, wambaye umwenda w'umweru.

Amakoma, umuntu wambaye indorerwamo z'amaso wamwenyuye, ndetse wambaye n'itaburiya irimo ibara ry'umweru, hamwe n'agakoresho gapima umutima hamwe n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu.

Icyumba cy'ivuriro kirimo isaha, ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, intebe, ndetse n'akameza, hamwe na purize.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibitanda byinshi abarwayi baryamaho baje kwivuza, ndetse n'inzitiramibu, hamwe n'umugore w'umuganga.

Amatara ari kwaka, televiziyo imanitse, umuntu, akantu kumisha intoki igihe umaze kuzikaraba, intebe za foteye, intebe za sheze z'umukara, imeza.

inyubako ifite urukuta rusa umweru, irimo isaha ndetse n'ibikoresho bya siporo, amadirishya hamwe na kamera kuri parafo.

Ahantu hari indobo ziteretse hasi muri zo imwe isa icyatsi n'inindi isa ubururu ndetse n'umuntu wambaye imyenda y'umweru.

Ahantu hari amapave hahagaze abagore bane bambaye amapantaro n'amashati by'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, inyuma ya bo hari inzu y'ababyeyi.

Icyumba cy'ivuriro kirimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru urimo arategura ahantu agiye kuryamisha umurwayi kugira ngo amucishe mu cyuma kimupime.

Ahantu hateraniye abantu benshi imbere y'ibitaro, barimo bafata ifoto y'urwibutso, nyuma yo gusoza igikorwa cyari cyabahuje.

Icyumba cy'ibitaro kirimo imashini isuzuma abarwayi ndetse n'umuntu wambaye itaburiya y'umweru, ufashe ku mashini.

Ahantu ku ivuriro hari abantu batatu, barimo abagore babiri n'umwana uri ku munzani urimo arapimwa ibiro.

Icyumba cy'ishuri kirimo abantu batandatu barimo umuganga w'umugabo wambaye itabuririya y'umweru, uri kwereka umwana w'umunyeshuri uburyo bwo koza amenyo, yifashishije igikoresho kiriho amenyo.

Intebe, imeza, igitanda cy'abarwayi gisasheho ishuka y'umweru, kiryamyeho umuntu wambaye imyenda y'ubururu, utwikiriye ishuka y'icyatsi mu maso ndetse n'abantu barimo abahagaze n'undi wicaye, bambaye ubupfukamunwa bw'umweru.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibitanda by'abarwayi ndetse n'abagabo babiri babiryamyeho bari kumwe n'abaganga, bambaye amataburiya y'umweru.

Ahantu hari amatara ari kwaka ndetse n'ikintu cy'ubururu gisashe hasi, hamwe n'ibikoresho bikorerwaho imyitozo ngororamubiri.

Ahantu hari amazu arimo n'inzu igeretse, imodoka nyinshi, imihanda ndetse n'icyapa cyerekana ahantu hari ibitaro.

Intebe, imeza, ivaze, ikirabyo, abantu barimo uwambaye ipantaro isa umukara ufite telefone mu kiganza ndetse n'ingofero y'umukara, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu, isaha.

Inzu ikoreramo farumasi irimo utubati turimo imiti, akabati kanditseho porogeresi farumasi ndetse n'ahateretse mudasobwa.

Intoki, abantu babiri bicaye, umugore wambaye ingofero y'umukara mu mutwe n'umugabo wambaye imyenda y'ubururu hamwe n'agakoresho gapima umutima mu ijosi.

Inyubako irimo amatara ari kwaka ndetse n'ibikoresho byinshi bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri.

Ahantu hari igiti ndetse n'abagore batatu bahagaze bambaye imyenda y'ubururu hamwe n'ingofero z'umweru mu mutwe.

Inyubako y'ibitaro irimo abantu benshi, barimo abagore bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umugore wambaye umwenda w'umweru.

Intebe, ameza, igitanda ndetse n'akantu ko gutamo imyanda hamwe n'akantu kumisha intoki.

Amatara ari kwaka, igare ry'abamugaye, imeza isasheho igitambaro cy'ubururu, icupa, abantu barimo uwambaye imyenda irimo ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, hamwe n'undi muntu wambaye igitambaro mu mutwe.

Abantu bahagaze barimo abagore n'abagabo bambaye udupfukamunwa, muri bo harimo abafite inkoni ndetse n'uwambaye umupira w'ubururu hamwe n'uwambaye ikoti.

Tente irimo bara ry'umweru, igare ry'abamugaye, abantu barimo bambaye ikote ririmo ibara ry'umukara ndetse n'ipantaro, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru, ndetse n'ivaze irimo ibara ry'icyatsi.

Icyumba cy'ivuriro, kirimo igitanda cy'umweru, kiryamyeho umwana, uri kumwe n'undi muntu uhagaze, wambaye umwenda w'icyatsi.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibitanda abarwayi baryamaho baje kwivuza ndetse n'amarido atandukanya ibyumba, hamwe n'umuntu urimo aragenda wambaye imyenda y'icyatsi.

Intebe, imeza ifashe igitambaro cy'icyatsi, abantu bicaye, mudasobwa, amacupa yamazi, kamera, umuntu wambaye indorerwamo z'amaso, ndetse nuwambaye umwenda urimo ibara ry'umukara, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara.

Ahantu hari igitanda haryamye umuntu wambaye agakabutura k'umukara, uri kumwe nundi muntu uhagaze umufashe ku kaguru.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ameza ateretseho mudasobwa, urupapuro rwo kwandikaho, ndetse n'umugore w'umuganga wambaye ga mu ntoki, uri kwitegura kujya kuvura umurwayi.

Ahantu hari urukuta rw'umweru n'ikirabyo n'akantu gasashe hasi, gapfukamyeho umugore wambaye ipantaro y'ubururu n'agasengeri k'umweru.

Ibiti, umuntu uri gukora siporo, wambaye inkweto ndetse n'ipantaro y'umukara hamwe n'umwenda urimo ibara ry'umuhondo, warambuye amaboko.

Intebe z'umukara, imeza, abantu bicaye barimo uteruye umwana wambaye umwenda urimo ibara ry'umuhondo ndetse n'agapfukamunwa karimo ibara ry'ubururu ku munwa ndetse n'undi wambaye imyenda y'ubururu.

Umusozi, ibiti, abantu babiri barimo umugabo n'umugore ufite icupa mu kiganza, wambaye isaha y'umukara ndetse n'isengeri irimo ibara ry'ubururu, hamwe n'ikabutura isa umukara.

Ahantu hari ameza, ndetse n'abantu babiri, umwe wambaye ikabutura y'umukara, n'undi wambaye ipantaro y'umuhondo.

Ahantu hari akabati kicayeho umuntu wambaye ikabutura ya kaki, ufite n'igipfuko ku kirenge, uri kumwe n'undi muntu wambaye umupira utukura.

Ahantu hari umugabo wambaye isengereri y'umutuku, ari kumwe n'undi mugabo, wambaye umupira w'umweru n'ijire y'icyatsi amufashe.

Abantu babiri barimo uwambaye ikabutura y'umukara, inkweto z'umukara n'umupira w'umuhondo hamwe n'undi wambaye umupira w'ubururu ufite umupira wo gukina mu kiganza.

Ahantu hari abantu barimo uwambaye umwenda w'umweru ndetse n'undi wambaye umwenda w'ubururu.

Abantu babiri bahagaze bateranye imigongo, barimo umugabo n'umugore bararamye bafite amacupa ku munwa, barimo baranywa amazi.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo igitanda ndetse n'umuntu wambaye umupira w'umuhondo ukiryamyeho n'undi muntu uhagaze.

Imipira irimo uw'amaguru, uw'amaboko, uwa rugubi, aka cricket, aka tennis, hamwe n'akantu gapima umutima.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n'akantu k'umweru ku kaboko, ufite icupa ry'icyatsi mu kiganza, warishyize ku munwa arimo anywa amazi.

Icyumba cy'ivuriro kirimo umugabo, umugore n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, uri kureba mu kanwa k'umwana amurikamo kugira ngo arebe niba nta kibazo afite cy'uburwayi kugira ngo amuvure.

Umugore uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umweru, umanitse amaboko imbere ye hari amazi.

Umuntu wambaye isengeri irimo ibara ry'icyatsi, ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu, ufite agasume ku ntugu ndetse n'icupa ryamazi.

Umugabo urimo arakora siporo akurura umugozi w'umuhondo, ari kumwe n'umuntu wambaye imyenda y'ubururu iruhande rwe.

Imeza, mudasobwa iri kwaka, telefone, ajenda, intebe, abantu bicaye, abantu bahagaze, n'abambaye udupfukamunwa.

Ubutumwa bwerekana indyo umuntu aba akwiriye kurya igihe amaze gukora siporo: irimo amatunda, imineke, amaronji na pome.

Irido isa ubururu hamwe n'abantu babiri barimo uryamye wazamuye akaguru, wambaye amasogisi arimo ibara ry'umweru ndetse n'ikabutura hamwe n'umupira urimo ibara ry'umweru, ndetse n'umuntu wambaye isaha.

Igitanda umuntu uryamye yihengetse, wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara n'undi urimo ibara ry'umweru hamwe n'ipantaro ndetse n'undi muntu umufashe mu mugongo, n'undi wambaye umupira w'amaboko maremare.

Ahantu hari amapave hasi ndetse n'ibiti, hateraniye abantu barimo abagore n'abagabo, basutamye bari gukora siporo.

Umugore wicaye ahantu hasa umweru hasi, wambaye ipantaro y'ubururu n'agasengeri k'ubururu, urambuye amaboko uri gukora siporo.

Ahantu hari abantu harimo uwicaye akaguru kamwe gahinnye ndetse n'umukasi iruhande rwe hamwe n'undi uhagaze.

Umugabo wicaye ari kumwe n'umugore ku ruhande, arimo arareba uburyo akora siporo ateruye akantu mu kiganza.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu, isaha ku kaboko, ufite icupa ririmo amazi yashyize kumunwa, arimo aranywa.

Umuntu wambaye ekuteri isa umweru mu gutwi, ndetse n'akandi kantu gasa umukara ku kaboko, ufite icupa ririmo amazi yashyize ku munwa, wambaye n'isengeri ya move.

Ikibuga cy'umupira, ibyatsi, abantu barimo, uryamye wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'amasogisi y'umukara hamwe n'umwenda urimo ibara ry'ubururu, hamwe n'undi muntu wambaye inkweto zirimo ibara ritukura.

Umugabo ufite ubwanwa, n'umusatsi w'umukara, wambaye isengeri y'umukara, n'akantu k'icyatsi ku kaboko, ufite icupa yashyize ku munwa, anywa amazi.

Imeza isasheho igitambaro, umuntu wambaye ijire irimo ibara ritukura, abantu bambaye amajire arimo ibara ry'umweru, ndetse n'umuntu wambaye umwenda urimo ibara rya kaki, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu.

Ahantu hasa umweru hasi, hari umugabo wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara, ufite ekuteri mu matwi.

Ahantu hasashe itapi y'icyatsi, hari umuntu wambaye umupira w'umukara, urambuye amaboko, wambaye n'agakora k'umukara.

Inyubako irimo idirishya hamwe n'akantu gasashe hasi karyamyeho umuntu, wambaye ipantaro y'umukara, wahinnye ivi arifasheho.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze birimo agasanduku bitwarwamo umukasi, itoroshi, urushinge, ga, ibinini, agakoresho gapima umuriro...

Ahantu hateretse ikirahuri hamwe n'ijagi iri gusuka amazi mu kirahure, ndetse n'ikiganza kiyifashe.

Umusore wambaye isengeri y'umweru iciye amaboko, ufite icupa ririmo amazi mu kiganza, warizamuye akarishyira ku munwa, arimo arayanywa.

Ahantu hari ibiti ndetse n'abantu benshi, barimo babiri bambaye amajire atukura, bateruye umuntu.

Umugabo ufite ubwanwa, imisatsi n'amatuza manini, uteruye icyuma, imbere ye hari icupa ririmo amazi ndetse n'amagi.

Ahantu hari abantu batatu, babiri bahagaze hasi, umwe afashe mu kintu cy'umutuku mu kiganza, undi ahagaze ku rwego.

Umuntu wicaye mu kagare k'abamugaye wambaye ishati y'ubururu, uri kumwe n'undi uhagaze wambaye itaburiya y'umweru.

Ahantu hateretse ikirahure, kirimo kujyamo amazi ndetse n'ijaga iri gusuka amazi, ifashwe n'ikiganza.

Umugabo wicaye wambaye ikabutura na ya shokora, umupira w'umukara n'isaha ku kaboko ufashe ku kaguru.

Ahantu hari abagabo babiri barimo uwambaye ikabutura y'umukara, n'undi wambaye ipantaro ya shokora, bombi bafite imipira yo gukina mu ntoki.

Intoki, ikibuga gikinirwamo umukino wa basiketi, abantu barimo abambaye amakabutura y'umukara, bambaye amakabutura arimo ibara ry'umweru, hamwe n'uwambaye akantu mu mutwe, ndetse n'umutaka.

Indabyo, agatapi gasa shokora gasashe hasi kariho umuntu wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'isengeri urimo arakora siporo.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, hamwe n'akuma gapima umutima mu ijosi ndetse na karuvati, ufite umupira wo gukina mu biganza.

Ahantu hari igitanda, cyicayeho umuntu wambaye umwenda w'umukara, uhinnye akaguru, hamwe n'undi muntu, wambaye umwenda w'ubururu.

Umuntu wicaye ufite ibipfuko bibiri ku biganza byombi, ateze urutoki, imbere ye hari umuntu ugiye kurumupfuka.

Umuntu wambaye ikabutura irimo ibara ry'umukara uhinnye akaguru, uri kumwe n'undi muntu wambaye itaburiya y'umweru amufashe mu ivi.

Umugore wambaye ikabutura ndetse n'akasengeri, urimo urakora siporo mu kibuga kirimo ibyatsi.

Umugore wambaye ipantaro y'ubururu n'isengeri y'icyatsi, urimo arakora siporo, akaboko kamwe gafashe ikirenge akandi yakarambuye kareba imbere.

Abantu babiri barimo uryamye wambaye ikabutura y'icyatsi, umupira w'umweru, urukweto rurimo ibara ry'umukara, ndetse n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu, ndetse wambaye baji mu ijosi, n'agakoresho gapima umutima.

Umuntu wicaye wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umutuku, hamwe n'icupa riteretse imbere ye.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo umugabo uteruye icyuma, ufite amaboko manini, wambaye ipantaro ya shokora n'umupira w'umukara.

Umuntu wambaye isengeri irimo ibara ry'ubururu, ufite isume mu ijosi y'umweru, hamwe n'icupa mukiganza urimo anywa amazi.

Intebe y'abantu bicaye, barimo wambaye umwenda urimo ibara ry'iroza, ndetse n'undi ufite igipapuro hamwe n'ikaramu, hamwe n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru hamwe n'ipantaro y'umukara.

Ibiti, ikibuga cya basket, umuntu wambaye umupira urimo ibara ry'umweru, uwambaye umwenda urimo ibara ry'umuhondo ndetse n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara, hamwe n'undi wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu.

Inyubako irimo intebe ndetse n'abantu babiri: umwe wicaye arambuye akaguru, wambaye ipantaro n'undi uhagaze.

Umuntu wambaye umupira utukura hamwe na ekuteri mu matwi, ufite icupa ry'amazi yashyize ku munwa ari kunywa amazi.

Umuntu uryamye wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, wazamuye akaguru uri kumwe n'undi muntu wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu ndetse na baje mu ijosi, umufashe akaguru.

Imeza, umuntu wambaye itaburiya y'umweru, wambaye ishati y'amaboko maremare, wambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero y'ubururu mu mutwe.

Ibiti abantu babiri bahagaze barimo umugabo wambaye umwenda urimo ibara ritukura, hamwe n'undi urimo ibara ry'umukara ndetse n'umugore wambaye igitambaro mu mutwe ndetse n'umupira w'amaboko maremare.

Imeza itatseho amacupa, abantu barimo uwambaye baji ifite umugozi w'ubururu ndetse n'igitambaro cy'umweru mu mutwe, hamwe n'undi wambaye ipantaro, umukandara w'umukara.

Abantu benshi bari mu ishyamba ririmo ibiti, bari kugenda basatira ahantu hari kumanuka amazi aturuka mu musozi.